Umugabo yikoreye ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, abikorera mu murima ufite ubuso bunini cyane kandi bugari, none ageze igihe cy'impeshyi, arimo kugenda afuhira umuti kuri izo mbuto ze.

Umugabo ufite ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutera imiti, yafashe agacupa karimo umuti wica udukoko ari kuwuvanga n'undi mu ndobo agiye kuwutera ku bihingwa.

Umwarimu ari ahantu bigaragara ko ari mu isuzumero ry'ibintu bigiye bitandukanye, hateretse amacupa ndetse hakaba hari n'amabirika, uyu muganga nawe ari kuri mudasobwa ari kugenda akora ubushakashatsi.

Ubuhinzi buteza imbere ababukora ndetse muri iki gihe bwateye imbere cyane ku buryo umuhinzi ahinga mu gihe icyo ari cyo cyose, haba ku zuba cyangwa se mu mvura ndetse agakoresha imiti itandukanye kugira ngo arinde ibihingwa bye kwangirika bitewe n'udukoko.

Igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri ni umuceri ukiri muto cyane ndetse hakaba harimo umugabo uhetse ipombo y'umuhondo arimo kugenda atera umuti umuceri.

Umugabo wakoze umwuga wo guhinga imboga, akaba yarazihinze mu kabande ndetse akaba azitaho cyane, arimo kuzitera umuti kugira ngo ubusimba butazazica, bityo ntabone umusaruro.

Umuntu bigaragara ko arimo gutera umuti ku ntoryi. Izo ntoryi ntago ari nziza cyane ndetse bisa nkaho zarumbye, ziri iruhande rw'inyubako ifite amatafari ahiye.

Ubworozi bumaze kugenda buhura n'ibibazo bitandukanye birimo indwara zibasira amatungo zigiye zitandukanye, ariko Leta na yo ikora uko ishoboye, igakorana n'ibigo by'abikorera kugira ngo barebe imiti yafasha aborozi.

Umusozi mwiza cyane ni umusozi uriho ibiti, ibyo biti bikaba birimo amoko agiye atandukanye, hakaba hari n'icyuzi kiri hagati mu musozi.

Utuzu tugiye twubatse mu byuzi, ni utuzu tw'abantu bajyamo bari kwita ku mafi, ibyo byuzi byose bikaba ari iby'umuturage wabyifukuriye.

Abantu benshi bakunze kumva ubuhinzi n'ubworozi bagahita bitekerereza inka, ihene ndetse no kujya guhinga urimura ibishanga gusa hari ubworozi bw'amafi bukunze guteza imbere ababukora.

Abantu benshi cyane bakunze kugira ngo ubwato bubaho ni ubwa moteri gusa, nyamara hari ubundi umuntu akoresha agashya ndetse bamwe bakunze kuvuga ngo n'ubwato bw'imivure, ababutwara na bo bagira amafaranga.

Mu Rwanda bitewe n'uko hari ibiyaga bikeya ndetse ushobora kubibara ntibirenze bitatu cyangwa bine, ku bw'iyo mpamvu bagenda bakoresha gucukura ibizenga bakabyorereramo amafi.

Abantu bari mu gishanga kinini cyane, ubona ko bashobora kuba bari kuroba amafi. Gusa ayo mafi akaba atizewe, kuko ntabwo wapfa kuyarya uko wiboneye.

Icyapa kinini cyane kiri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse hakaba hari n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru, iki cyapa kikaba kiri gusobanura ibintu byinshi cyane bigendanye no korora amafi.

Umuntu w'umugabo ari mu kizenga, icyo kizenga cyororewemo amafi ndetse akaba afite n'umutego, akaba yitegura kuzana amafi ku isoko menshi.

Umugabo uri iruhande rw'icyuzi cy'amafi, akaba arimo kugenda ayagaburira ajugunyamo ibiryo byayo, akaba afite indobo imwe mu ntoki n'indi iteretse iruhande rwe.

Ikizenga kiri ahantu mu kabande, kikaba kegeranye n'ikindi, icyo cyo kikaba cyicayeho umuntu bigaragara ko ari umwana. Ubwo ari we wasanga bagiye kwigaraguramo.

Amafi abiri arimo gutungutsa iminwa mu mazi, akaba ari gukanura atazi ko agiye gutegwa maze tukazayakarangamo agafiriti.

Umuntu w'umugabo arimo kumwenyura, ari gukurura igifi kinini, aho arikugikura mu mutego yari yagiteze, uko bigaragara ni umworozi wamafi.

Icyuzi cyakozwe n'abaturage, kikaba cyarororewemo amafi. Kizwiho gutanga umusaruro uhagije ku buryo nyiracyo yishimira iterambere bimaze kumugezaho.

Abantu babiri bari mu cyuzi cy'amafi kikaba ari icyuzi gitanga umusaruro uhagije, bakaba bateruye amafi mu ndobani bigaragara yuko bagiye kuyajyana ku isoko.

Ababyeyi barimo gucuruza amafi, bakaba bayashyize mu ipaniye y'umutuku ndetse bakaba bahetse n'abana babo, uko bigaragara biteje imbere.

Icyuzi cy'amafi gifukuye ahantu mu gishanga, icyo gishanga kikaba cyegereye ahantu hari ibiti byiza cyane bizana umuyaga n'amahumbezi. Hakaba hari n'umurima uhinzemo ibisheke.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi budakunze kwitabirwa na benshi kandi uko bigaragara hirya no hino ku masoko, amafi ntago aragera ku rwego rwo guhaza abakiriya bahari. Ese wowe urabura iki?

Abantu bigaragara ko harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bari mu gishanga iruhande rw'amazi mabi ndetse bakaba barimo gushaka imiti igiye itandukanye.

Mu rwanda ubworozi bw'amafi n'ubworozi butaratera imbere cyane, kuko ababukora bakunze kuba abibumbiye mu makoperative. Ariko bagira ikibazo cy'uko ibiryo by'amafi bitaboneka neza.

Umubyeyi w'umugore wambaye isarubeti y'umukara arimo kuroba amafi mu cyuzi cye yifukuriye, uko bigaragara afite umuraraga washaje umeze nka supanete.

Ushobora kwibaza uti ni gute waroba amafi yawe, genda munsi y'urugo ucukure ikizinga uyibonezemo amazi, hanyuma ujye kugura umurama w'amafi uzu unagemo ubundi wirebere ngo uraterare imbere.

Abantu benshi cyane bazanye ikawa ryabo ku isoko, bariyoye mu biganza barimo kuryerekana kugira ngo bagaragaze ubwiza bwaryo, ikawa ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo ndetse kikaba ari igihingwa gikunze kugemurwa hanze ku isoko mpuzamahanga.

Ubuhinzi bw'icyayi buza mu Rwanda abantu benshi bumvaga yuko ari ukubabangamira ndetse batangira kwijundika leta, ariko abagerageje bagafatiraho bagahita bagihinga, ubu bamaze kuba abaherwe biteje imbere abandi nabo bari kunigana bagihinga.

Ikawa rifite intete zitukuye n'izindi zikiri ibitumbwe, rikaba ari ikawa ryiza cyane nyiraryo akaba yiteguye kubona ifaranga, hanyuma akiteza imbere n'umuryango we.

Umuntu w'umugore ari gusoroma ikawa, iryo kawa riracyari ritoya, rirasasiye ni ryiza riratoshye, uko bigaragara agiye kuryamo amafaranga.

Ubuhinzi bw'icyayi bwateye imbere cyane ndetse buteza imbere ababukora, haba ba nyir'imirima ndetse n'abandi birirwamo babisarura babibagara.

Ubuhinzi bw'icyayi mu rwanda bugira uruhare mu iterambere ry'abaturarwanda, hari abagikoramo, bakibaga ndetse banagisoroma, abo bose babona amafaranga abafasha mu bibazo bitandukanye.

Umugabo wahisemo umwuga w'ubuhinzi, akaba yihingira imboga ndetse n'imbuto zitandukanye, uyu mugabo avuga ko yiteje imbere, binyuze muri ubu buhinzi bwe, ku buryo asigaye afite amafaranga, amufasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Umuhinzi wahinze ikawa, akaba ari kugenda asarura intete zeze, iri kawa rikaba ari ryiza cyane ndetse ritanga umusaruro uhagije.

U Rwanda iyo rukora ingengo y'imari izakoreshwa mu mwaka bashyiramo n'ingengo y'imari izifashishwa mu buhinzi kugira ngo bafashe abaturage kwiteza imbere, abahinzi nabo uko bashoboye bagakoresha iyo ngengo y'imari neza kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu, kikaba ari igihingwa gikunze kwifashishwa mu kugaragaza ubukungu bw'Igihugu cy'u Rwanda, iri kawa rikaba ryoherezwa ku isoko mpuzamahanga ku bwinshi.

Icyayi giteza imbere abagihinga ariko n'abagisoroma na bo biteza imbere kuko amafaranga bahakura abafasha kwita ku miryango yabo.

Ikawa ryiza cyane bigaragara ko ryeze rikaba rifite intete zitukuye, izo ntete zikaba ari nyinshi nyiraryo akaba yiteguye kurya amafaranga ariturutsemo.

Ikawa ryiza cyane ry'u Rwanda rikaba ari ikawa ryamaze no gushyirwa ku rutonde nk'aho ari ryo rya mbere riryoha ku Isi kuko mu Rwanda rihingwa ahantu henshi cyane kandi rikaba ryitabwaho.

Umuceri uhinze mu gishanga, ni umuceri bigaragara ko intete zawo ziri hafi kwera, ukaba ari umuceri mwinshi kandi uhinze ku buso bunini cyane, uyu muceri witezweho kuzatanga amatoni n'amatoni y'umusaruro.

Umuntu urimo kwerekana icyayi gihinze ku buso bunini ndetse bugari, icyo cyayi kikaba gihinze ahantu munsi y'ishyamba, iryo shyamba rikaba ari iry'inturusu ndetse hakaba hari n'undi murima uhinze na wo utaraterwaho icyayi.

Indobo irimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Hometseho ibipapuro byanditseho amagambo y'icyongereza, agaragaza uburyo iyo miti ikoreshwa.

Indobo ziterekanze ahantu hamwe zikaba zishushanyijeho amatungo agiye atandukanye, cyane cyane inkoko. Uko bigaragara harimo imiti ivura amatungo.

Amacupa menshi ateretse ahantu hamwe akaba afite amabaragi atandukanye, buri cupa ryose rikaba ryanditseho amagambo asobanura uburyo umuti urimo ukoreshwa.

Ibintu bigiye bitandukanye birunze mu nyubako, bikaba ari ibikarito bifunzemo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Yaba inka, ihene cyangwa inkoko.

Amakarito agerekeranyije atondekanyije ku murongo, yose akaba yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse ayo magambo akaba asobanura uburyo imiti irimo ikoreshwa.

Abantu benshi cyane bakora ibijyanye n'ubworozi bakunze kuvuga yuko inka zihura n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi, haba uburondwe cyangwa n'uburenge, ariko abavuzi nabo bakora uko bashoboye bakazana imiti kugira ngo bafashe aborozi.

Ubuvuzi bw'amatungo ni ubuvuzi bumaze gutera imbere ku buryo mu Rwanda nta hantu ushobora kudasanga imiti yifashishwa muri ubu buvuzi bugiye bukorerwa hirya no hino.

Ibikombe birimo imiti y'amatungo, bikaba ari ibikombe bigiye bishushanyijeho itunngo bitewe n'umuti urimo. Hakaba handitseho n'amagambo asobanura uburyo uwo muti ukoreshwa.

Imiti irunze ahantu mu nyubako yabugenewe, ikaba ari imiti myinshi cyane ndetse iyo miti yose ikaba yifashishwa mu kuvura amatungo, amatungo arwara indwara zitandukanye ni yo mpamvu dukoresha imiti tuyavura.

korora muri iki gihe si ibintu byoroshye, ubundi kera umuntu yororaga inka ntazakene kuzivura bigoranye, ariko kubera ko haje indwara ndetse n'ibyorezo bigiye bitandukanye bisaba ko uba ufite n'umuganga w'amatungo wita ku matungo yawe.

Amakarito ari ahantu hamwe ndetse hakaba harimo n'amacupa y'imiti, yose akaba yanditseho ibipapuro bisobanura uburyo iyo miti ikoreshwamo.

Ikidobo gipfundikiye neza, kikaba ari ikidobo gifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'umweru, uko bigaragara iki kidobo kikaba kirimo imiti ivura amatungo.

Amakarito agerekeranyije ahantu mu nyubako, akaba arimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, iyo miti yose ikaba ifunze neza kugira ngo itangirika.

Amacupa menshi cyane ateretse, akaba arimo imiti, iyo miti yose ikaba igenda yifashishwa mu kuvura amatungo kuko indwara z'amatungo zabaye nyinshi.

Amatungo nayo asigaye yitabwaho nk'abantu, arororwa akagaburirwa, akavurwa. Mu by'ukuri inka ishobora kuremba ukayijyana no mu bitaro.

Amacupa atondetse ahantu hamwe, akaba ari mu moko agiye atandukanye, gusa hari ashushanyijeho inka ndetse yose akaba apfunyitsemo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Ibinini bitondekanyije ku murongo bifite ibara ry'umuhondo bigaragara yuko byifashishwa mu kuvura amatungo nk'inka, bikaba ari ibinini byiza cyane ndetse bituma inka ibyibuha.

Amacupa menshi cyane arunze ahantu hamwe. Ni amacupa arimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, bitewe n'uko amatungo yo muri iki gihe akunze guhura n'indwara zitandukanye, niyo mpamvu abaganga nabo babaye benshi bayavura.

Ibigori byiza cyane bigiye kwera biteye ahantu mu murima mu kabande. Ni ibigori ubona ko ari ibya kijyambere. Umuhinzi wabihinze yiteguye kuzabona umusaruro ushimishije.

Abaturage bazindutse kare cyane, bari kuri bikinnyeri aho bari kugenda bapakira ibiti byo gutera mu mifuka y'umweru, bakaba bagira ngo bajye kubivanga n'imyaka yabo.

Abantu babiri bari mu murima w'ibigori, ni ibigori byiza cyane ubona ko bitoshye, bakaba barimo kugenda babibagara bashyiraho n'ifumbire y'imvaruganda, bakaba banabivomera kugira ngo bituma.

Umukumbi w'inka nziza cyane z'injerisi zikaba ari inka ubona ko ziri kurisha ndetse zikaba ziri ahantu mu rwuri rwazo, izo nka aziteye amaherena ku matwi yazo ndetse ziri mu mabara atandukanye.

Ibigori bihinze ku buso bunini cyane, ni ibigori bitoshye ndetse ubona yuko bizatanga umusaruro uhagije. Iruhande rwabyo hari umurima uteyemo intoryi ndetse hagaragara n'akandi gasozi kadafite ikintu na kimwe giteyemo.

Umuhinzi yazindutse mu gitondo cya kare cyane, afite isuka, afite imbaraga ndetse n'imbaduko, arimo kugenda ahingira ibihingwa bye kugira ngo bitagira ikigunda maze ntibyere neza.

Igishanga kinini cyane cy'umuceri, ni igishanga bigaragara ko gihinze umuceri ukiri mutoya ukaba utaratangira kwera, harimo za serukiranyi, bamwe bakunze kwita maneke.

Inka nziza cyane z'imikara n'umweru ziri mu rwuri rwazo, zifite abashumba bazitaho ndetse urwuri rwazo rurimo ibyatsi byiza cyane.

Umuhinzi ari mu gishanga, icyo gishanga gihinzemo umuceri mwiza cyane. Uko bigaragara ufite intete nyinshi kandi zikiri ibitubwe. Uyu muceri witezweho kuzatanga umusaruro ushimishije.

Umuntu bigaragara ko ari mu gihuru ni umu umugabo yambaye ishati nziza cyane ikaba irimo uturongo twumukara n'utwumutuku yambaye ipantaro yumukara akaba arimo gucukura mu gihuru.

Umuntu bigaragara yuko ari umuhinzi, arimo guhinga mu gishanga ndetse bigaragara ko uyu murima wari wararaye, harimo ibyatsi byinshi cyane byahuze, bituma umuntu adahinga neza.

Ubuhinzi bw'ibigori bumaze gutera imbere, ndetse bumaze gufasha abatari bake kwikura mu bukene. Kera wasangaga umuntu ahinga ibigori bya nyirakagori akabyutsa ubundi akabiteka, ariko ubu uragurisha ukabona amafaranga.

Umuntu urimo guhinga, akaba akenyeye umupira ndetse akaba yambaye imyenda y'ibitenge, iruhande rwe hari insina, hakaba hatuye ifumbire iri mu mufuka.

Abantu benshi cyane bakunze guhinga ibigori, bakabihinga mu buryo bwiza cyane aho babishyiraho ifumbire y'imborera ndetse n'invaruganda, ibyo bibafasha kwiteza imbere.

Ibirayi byiza cyane bya kinigi byatangiye kwitonora, ni ibirayi binini ndetse ubona ko ubitetsemo agafiriti byakuryohana, mu by'ukuri bikaba bihenze.

Umurima wo mu gishanga, ni umurima bigaragara ko uhinzwemo umuceri. Hari abantu babiri bari kugenda berekeza mu muceri ndetse hakaba hari n'inyubako iri kugaragara yegeranye n'agasozi karimo ibiti ndetse n'inzu z'abaturage.

Ibirayi byiza cyane bya kinigi, bikaba bitondetse ahantu ku ndobo z'umukara eshatu, uko bigaragara ni mu murima, bakaba barimo kugenda babitera kugira ngo bazabone umusaruro.

Nubwo bamwe babona dodo zigura ijana ku mufungo, ushobora kuzihinga maze ukiteza imbere, kuko washaka isoko mu mahoteli yagiye atandukanye, maze ukajya uzigemurayo bakakugurira ku biro.

Mu Rwanda hari ibice binini cyane bidatuwe n'abaturage, aho usanga hagizwe n'amashyamba afite ibiti bya kimeza ndetse hakaba n'ibishanga birimo ibihuru bigiye bitandukanye.

Akabande gahinzemo ibigori, ni ibigori bikiri bitoya ndetse ubona ko byitegeye ahantu hari umusozi uhanamye cyane, gusa uwo musozi ukaba utuyeho abaturage.

Imyumbati ni igihingwa gikunze kuboneka mu Karere ka Ruhango kugira ngo ubyemere n'uko haba n'uruganda rutunganya imyumbati, rukaba ari rwo rwonyine ruboneka mu Rwanda.

Ibigori bihinze ku buso bunini cyane. Ni ibigori bitangiye kuzana imyangange ndetse ubona ko bizatanga umusaruro. Hakaba hari umurima uteyemo umuceri ubyegereye. Aho hose hagiye harimo bya serukiranyi, bimanitse bikanga inyoni.

Ibigori byiza cyane bitangiye kuzana imyangange, harimo umukecuru nyirabyo wambaye imyenda y'ibitenge, arimo kugenda azengurukamo areba ko nta cyarwaye.

Ibigori biri mu murima bigaragara ko byeze, ukaba wagenda ugaca kimwe ukacyotsa. Ni ibigori bihinze mu rusenda kandi urwo rusenda na rwo ni rwiza na nyirarwo akaba ari umuhinzi wabigize umwuga.

Insinga z'umuriro w'amashanyarazi zinyura ku mapoto manini cyane y'ibyuma, zikaba ari insinga zijyana umuriro hirya cyane mu ntera, aho abaturage batuye mu byaro.

Ikibuga kinini cyane kikaba ari ikibuga kirimo amasinde, ayo masinde akaba yararemwe n'abaturage bagiye guhingamo ibintu bigiye bitandukanye.

Igishanga kinini cyane gihinzwemo umuceri kikaba ari igishanga kiri hagati y'imisozi ndetse uko bigaragara kikaba kizwiho kweza umuceri mwinshi cyane maze abawuhinze bakizahura.

Ikigori kirambitse ahantu mu byatsi, icyo kigori kikaba cyatakaye ubwo abahinzi bari bavuye kubisarura maze bakahanyura, uwakimpa nakirya sinakibabarira.

Umuceri uhinze mu gishanga, ni umuceri uhinze ku buso busaga hegitari makumyabiri ndetse hakaba hari ibikangabasazi bigiye birimo kugira ngo inyoni zitawona.

Igihuru kirimo urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye. Ni igihuru kirimo amahwa y'imifatangwe ndetse hakaba harimo n'ibindi byatsi bitandukanye. Ushobora kuhakura umuti wakifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Imboga rwatsi cyangwa se imboga za dodo, ni imboga zikunze gukundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse izi mboga zikaba zirinda indwara mu mubiri, zikaba ziteza n'imbere abazihinga.

Ibigori bihinze mu kabande, ni ibigori bikiri bitoya ndetse ubona ko byabagriwe. Ibi bigori bikaba bitangwa na tubura, mu rwego rwo gufasha abanyarwanda kubona umusaruro uhagije.

Ibigori byiza cyane bihinze mu murima bikaba ari ibigori bimaze kwera ndetse bikaba bigiye gusarurwa, nyirabyo yiteze kubona umusaruro utubutse kuko yabifumbiye neza akabyitaho.

Insina ituye ahantu mu murima, hari amajangara ayirambitseho, uko bigaragara hari umuhinzi wa urimo kugenda abagara urutoki agenda arwicira.

Ikibaya kirimo insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziri ku mapoto manini maremare cyane, kikaba ari ikibaya ubona ko kidahingwamo ndetse kikaba cyitegeye imisozi iriho amashyamba.

Ahantu heza cyane hahinze ibihingwa ngengabukungu, hakaba harimo ubwoko bugiye butandukanye, hari umusozi uhinzeho za makadamiya, hakaba n'undi musozi uhinzeho ishyamba.

Ikibuga kinini cyane ubona ko cyegeranye n'umurima uhinzemo icyayi, ni ahantu heza cyane hari umusozi ndetse uwo musozi ukaba ufite ubutaka bwera.

Ibimera byiza cyane bisa nk'bishyimbo ariko bikaba ari ibibabi by'igishashoti. Icyo kinyagwa kikaba gikunze kuribwa n'abakecuru ndetse n'abandi bantu batishoboye.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane rikaba ari ishyamba ryiganjemo ibiti bya kimeza ndetse n'ibindi biti byakuze cyane bigaragara nk'aho bishaje, rikaba ari ishyamba rikunze gusurwa n'abatari bake.

Hirya no hino mu Gihugu cy'u Rwanda haboneka imihanda myiza cyane ya kaburimbo iba ifite ibice bibiri, aho haba hari ahanyura imodoka zizamuka n'ahandi hanyura izimanuka. Iyi mihanda ikaba ishimwa n'abayinyuramo kuko iba iteye neza.

Ishyamba ry'inzitane ririmo ibihuru byubatse ku buryo bukomeye cyane, hakaba habaho inyamaswa ndetse habamo n'ibindi bintu by'ibinyabuzima.

Ishyamba rinini cyane bigaragara ko ari irya Parike y'Igihugu ya Nyungwe rikaba ririmo ubukonje bukabije cyane, ni mu gitondo haragaragara igicu cyumweru kirimo kuzamuka hejuru.

Igiti kinini cyane gifite amababi ndetse n'amashami, kikaba giteye ahantu mu murima, uwo murima ukaba uhinzemo n'ibigori, ibyo bigori ni byiza, ntacyo byabangamiweho.

Umusozi ufite amashyamba ndetse n'ibihuru ni umusozi ugaragara neza ndetse ukaba ufitemo agacucucu k'izuba.

Urutoki runini cyane, ni urutoki ruri ahantu mu giturage ndetse hakaba hari n'ingo z'abaturage, hari umuhanda uca hagati mu misozi, hari n'abantu bari kuwucamo, abo bantu bose bakaba batagaragara neza.

Umusozi mwiza cyane witegeye ahantu hatuye ingo z'abaturage zigiye zitatanye, ni umusozi bigaragara ko ari urwuri rw'inka, hakaba harimo ubwatsi bwiza n'ibiti.

Igiturage ubona ko giteye imbere hakaba harimo inyubako ziganjemo izisakakaje amabati ndetse ziteye n'amarangi y'umweru, hari amapoto y'insinga z'amashanyarazi anyura hejuru mu kirere.

Umugabo w'umurinzi w'ishyamba, akaba atuma nta muntu n'umwe wakangiza igiti, ni yo mpamvu ibiti byose byakuze ndetse bikaba bigeze igihe cyo gusarurwa ngo bitunganywemo ibikoresho bitandukanye, nk'imbaho ,intebe ndetse n'inzugi.

Kwigira ni ingenzi niyo mpamvu hari na siroga ivuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukora umuganda wa buri kwezi kugira ngo abaturage bafatanye n'inzego z'ubuyobozi maze bubake igihugu cyabo.

Amapoto menshi cyane ari ku murongo, akaba aca ahantu ku muhanda w'igitaka, bigaragara ko ari mu cyaro. Akaba atwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ajya mu duce dutandukanye.

Ishyamba ryiza cyane ry'inzitane, riteye amabengeza ndetse riteye ubwoba rikaba ryiganjemo ibiti bifite amababi ndetse n'amashami maremare cyane.

Abantu batandukanye biganjemo abo mu nzego z'umutekano, harimo daso, umusirikari ndetse n'abandi baturage bari mu gikorwa cyo gutera ibiti.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane ubona yuko ari ishyamba rimeze nk'aho ari parike, rikaba riri kugenda rigaragaramo igicu cy'umweru, iri shyamba ribamo urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye.

Inyanya nziza cyane ziri mu gitebo hakaba hari umucuruzi wazizanye ku isoko. Haje umuguzi afashe rumwe arimo kurwitegereza kugira arebe uko zimeze.

Avoka zazanwe ku isoko, zikaba ari avoka nziza cyane bigaragara ko ari nyinshi, hari abagore bambaye amataburiya ndetse bakaba bambaye n'ingofero z'umweru, barimo kugenda babara voka, bazifungira mu dukarito.

Urusenda rutukuye cyane ruri mu mapaniye ,rukaba ari urusenda rumaze gusarurwa mu murima, aho bagiye kurujyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwikenura.

Inyanya bigaragara ko zangiritse, ni inyanya zari zazanwe n'umuhinzi none akaba yagize ibyago aranyerera zamenaguritse, isose yamenetse hasi iki ni igihombo giteye ubwoba.

Akarima k'igikoni kagize uruhare mu iterambere ry'Igihugu, cyane cyane mu bijyanye n'imirire, ku buryo nta mwana ukirwara Bwaki cyangwa ngo agire ubugwingire.

Umubyeyi arimo gusoroma imboga, izo mboga zikaba zihinze ahantu mu kabande uko bigaragara yakoze umushinga arazihinga akaba atangiye gusarura.

Mu Rwanda hari ibihingwa byinshi cyane bidakunze kuhaboneka kuko bigiye bigoranye kuba byaba mu butaka bwaho, urugero nka za pome ntiziboneka mu gace akariho kose cyangwa se za manderena.

Abahinzi bahinga inyanya ni abahinzi bakunze kuvuga ko bahura n'igihombo, bitewe n'uko batanga amafaranga menshi bita ku nyanya zabo, byageza igihe cyo kuzijyana ku isoko ugasanga bahuye n'igiciro kiri hasi.

Ubuhinzi bw'urusenda butunga nyirabwo, gusa iyo rubona ugira ngo nta mafaranga rugira nyamara kubera ko rwoherezwa ku isoko mpuzamahanga abaruhinga babona amafaranga bakiteza imbere.

Ku isoko hahurira urujya n'uruza rw'abantu baba baje kugura ndetse no kugurisha ibicuruzwa bitandukanye, hari abacuruzi barangura inyanya mu baturage bazihinze bakazizana ku isoko bakazirunda ku bitara kugira ngo abakiriya bazibone.

Amapapayi meza cyane harimo ayatukuye ndetse n'andi atangiye gutukura, uko bigaragara ni amapapayi yafumbiwe akaba atanga umusaruro mwiza kandi uhagije.

Ubuhinzi bw'imboga n'ubuhinzi buteza imbere ababukora, ndetse imboga bihingwa mu buryo bugiye butandukanye, hari izihingwa mu nzu yabugenewe ndetse hakaba n'izindi zihingwa hanze.

ubuhinzi bwa pome, sinari nzi ko buba mu Rwanda. Uko bigaragara hari abantu barimo gusarura pome, ndetse bakaba bari kubanza kuzirya kugira ngo bumve niba ziryoshye.

Ibigori byiza cyane harimo kimwe kivovoye kikaba gifite impeke z'umuhondo. Ni ibigori ubona ko ari ibya kijyambere ndetse akaba ari imbuto nshyashya ya ibulide.

Uruhurirane rw'imboga ndetse n'imbuto, zazanwe ku isoko. Hakaba higanjemo ama pome, urusenda, ibitunguru, ibibiriganya, inoryi ndetse n'inanasi.

Pome ni imbuto nziza cyane ndetse zikaba ari imbuto zera ku biti. Izo mbuto ziraryoha ndetse abantu bazicuruza, bavuga y'uko biteje imbere kuko zihenda.

Ibiti byiza cyane ubona ko biteye ahantu ku murongo, hagati hakaba hagiye harimo umwanya uhagije unyuramo umwuka ndetse n'umuyaga, ibyo biti bikaba ari ibya pome.

Abantu babiri bari mu murima w'imboga, izo mboga zikaba zimeze nk'amashu ariko zikaba atari zo uko bigaragara umwe arimo kuvomera akoresheje indobo y'umuhondo, hakaba hari n'undi uri konsa umwana ariko nawe namara konsa umwana arafasha mugenzi we.

Uruhurirane rw'ibiribwa bigiye bitandukanye biboneka mu gihugu cy'u Rwanda, harimo imboga, imbuto, ibigori, karoti, amashu, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Abahinzi bari mu murima bakaba ari benshi, harimo umugabo umwe ndetse hakabamo n'abandi bagore bari kugenda batambagira aho bahinze mashu, izo mashu ziratoshye ni nziza cyane zatangiye gukura zizamuka hejuru.

Umurima uhinzemo mashu zeze, akaba ari mashu nini cyane ku buryo imwe ishobora gupima nk'ibiro bitanu. Harimo abantu batatu mu murima, barimo kuzisarura kugirango bazijyane ku isoko.

Umuhinzi wahinze ikibaya cy'imboga akaba ari umuhinzi wiyemeje ndetse akaba ageze igihe cyo gusarura akaba ari kugenda areba ko hari zeze.

Abaturage benshi biganjemo abagore ndetse n'abana bazindutse mu gitondo cya kare kare bajya kuri pipinyeri, aho bagiye gushaka ibiti byo gutera kugira ngo na bo bagire uruhare mu kurwanya isuri.

Ibitunguru byiza cyane ubona ko bimaze kwera. Hari umuntu w'umuzungu urimo kugenda abikoramo abireba. Inyuma ye hari abandi bigaragara ko bavuye guhugurwa bakaba bari kumushungera.

Avoka zirunze mu gikarito, ni avoka za kijyambere zaciweye ndetse zikaba zigiye gutarwa kugira ngo zizaribwe cyangwa se zikorwemo ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'amavuta cyangwa isabune.

Abantu bari mu mboga mu murima ahantu mu kabande, izo mboga nizo mu bwoko bwa mashu, iruhande rwabo haragaragara ikigo cy'amashuri, abo bantu bose ni babiri.

Ibishashoti cyangwa se susuri. Ni ubwoko bw'ibihaza budakunze kuryoha. Bukaba bukunze kuboneka mu byaro ndetse bukaba bukunze kwifashishwa n'abakecuru babuteka.

Umuntu w'umugore arimo kuvomerera imbuto yahinze mu kabande, ni umurima wegeranye n'ibiti binini ndetse ubona ko ari ibiti bifite amababi menshi.

Abantu barimo baragenda bose bambaye amataburiya y'umweru, abenshi ni abagabo, ndetse sinzi niba hari umugore ugaragara, ariko ntiyabura gusa bari kugenda bakora ibijyanye no kuhira.

Ibigori kera bwari ubuhinzi butateza imbere ababukora ariko guhera muri za bibiri na cumi n'umunani, Leta y'u Rwanda yashishikarije abaturage guhinga ibigori mu buryo bwo kwiteza imbere badahingiye kurya gusa.

Umuntu bigaragara ko ari umuzungu, yambaye itaburiya ndetse akaba yambaye n'ikigofero, ari kugenda akata ibyuma bigiye bitandukanye yifashisha arimo kubaka urugomero rwifashishwa mu kuvomerera ibihingwa mu gihe cy'izuba.

Abantu benshi cyane bagize koperative y'abahinzi. Bakaba barimo kuvomerera ibigori byabo, ndetse bakaba bari gukoresha umupira uzamura amazi.

Umuntu w'umuhinzi wambaye ipantaro ndetse akaba yayihinnye arimo kuvomerera imyaka ye yahinze mu kabande ndetse uko bigaragara ari gukoresha itiyo rinini cyane.

Ubuhinzi bwo mu Rwanda bwateye imbere ahubwo njya nibaza impamvu abantu batabujyamo ngo babukore biteze imbere kuko hari uburyo bwashyizweho bwifashishwa mu gukura amazi mu gishanga, uyazamura hejuru ku musozi, ukavomera imyaka.

Ubuhinzi bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere ku buryo bitakiri ngombwa ko uhinga mu gihe cy'imvura, no mu zuba urahinga hanyuma ukifashisha amamashini yabugenewe n'imipira ukavomera ibihingwa byawe.

Umugore wigize rwiyemezamirimo, yahinze imboga mu gihe cy'izuba, izo mboga zikaba ziri mu bwoko bwa mashu, akaba akoresha umurasire w'izuba kugira ngo azamure amazi maze ayavomereshe izo mboga ze.

Umurima uhinzemo imboga za mashu, izo mboga zose zikaba zarabumbye neza, zitangiye kwera. Hari icyuma kinini cyane, kizamura amazi hejuru kugira ngo aya mashu abone uko akura.

Umuhinzi amaze guhinga umurima we arimo kuwuvomera kugira ngo abone uko ateramo imbuto, hirya hari urutoki rutoshye bigaragara ko rutaratangira kwera, hakurya haragaragara umusozi.

Umugezi mwiza cyane uteye amabengeza, ni umugezi watunganijwe n'abahinzi bakaba bawifashisha bavomerera imbuto zabo bahinze mu gasozi.

Umugabo wambaye neza cyane, akaba yambaye ipantaro y'ikoboyi yayizinze akaba afite umupira ku rutugu w'umukara arimo kuvomerera ibihingwa yahinze mu kabande kugira ngo azabone umusaruro uhagije.

Umuntu bigaragara ko yahinze urusenda, akaba yararuhinze mu gihe cy'izuba, arimo kuruvomerera akoresheje umupira w'umweru ndetse akaba yarafashe hejuru akambikaho ikintu kimeze nk'umupfundikizo wa rozwara.

Ubuhinzi bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere ku buryo abahinzi batagihinga bagendeye ku bihe, bahinga no mu gihe k'izuba bakifashisha amamashini ndetse n'imipira bakavomera ibihingwa byabo.

Umurima mwiza cyane ukaba ari umurima uteyemo imyaka y'imboga, hakaba hari ibyuma bicometse hejuru bigenda bitungerezamo amazi, ku buryo ugira ngo ni imvura iri kugwa.

Ikoranabuhanga ryaragakemuye ku buryo abahinzi basigaye bakoresha imirasire y'izuba, bagafata amazi, bakayakura mu mubande, bakayazamura hejuru ku gasozi, bakavomerera imyaka yabo.

Karoti zihinze ahantu mu murima wo mu kabande hakaba hetayemo ibintu bigiye bitandukanye by'ibitembo bizanamo amazi. Uko bigaragara binyara hejuru mu kirere bikamera nk'aho ari imvura iri kugwa.

Ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko abahinzi basigaye bahingira gusagurira isoko, aho kugira ngo bahinge ibyo kwirira n'imiryango yabo gusa.

Abantu bambaye amasarubeti iy'ubururu, barimo kuvomerera ibigori biteye mu materasi ndetse bikaba ari ibigori bikiri bitoya ariko bakaba bamaze kubibagara.

Imisozi igiye itandukanye iboneka mu Rwanda, ikaba ari imisozi iba ihinzeho ibiti, ibyayi ndetse hakaba haba hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bihagaragara nk'urutoki.

Urutoki rubi rubi cyane, rukaba rwegereye inzu y'umuturage, uwo muturage atuye mu manegeka ndetse bigaragara ko asa nkaho atuye wenyine, ese buriya iyo ikibiriti kimushiranye arahura hehe.

Umusozi mwiza cyane uriho amaterase y'indinganire hakaba hatuye n'abaturage ndetse hakaba hari amashyamba, intoki n'ibindi biti bigiye bitandukanye.

Impara ni inyamaswa yibera mu gasozi, ikaba idakunze kuboneka aho ari ho hose, iba muri pariki cyangwa se ahandi hantu hari ishyamba ry'inzitane.

Imisozi myiza cyane iteye amabengeza ihinzeho icyayi, ni imisozi ikunze kuba yibereye mu duce t twakarere ka nyaruguru, nyamagabe, ndetse na rutsiro.

Agasozi keza cyane ubona ko gateye neza, kakaba kariho ingo z'abaturage ariko zitari nyinshi. Hasi mu kabande hari umugezi ufite amazi yanduye umeze nka Nyabarongo.

Inyubako z'abaturage basanzwe bazwi nka rubanda rwa giseteka. Ni inyubako zisakaje amabati ndetse bigaragara ko ashaje. Hari umusozi uteyeho imyaka igiye itandukanye.

Umusozi munini cyane, ukaba uciyeho amaterasi y'indinganire, hateye ibiti bivangwa n'imyaka mu rwego rwo kugira ngo birinde isuri ndetse babone n'ubwatsi bw'amatungo.

Amajerekani atatu ateretse ahantu hamwe, hakaba harimo ijerekani yambaye igikariso cyayo, hakaba hari abanyonzi baparitse amagare, bagiye kuvoma kugira ngo bazamure amazi, bayajyane mu baturage.

Ishyamba rinini cyane ry'inzitane rigizwe n'ibiti bya kimeza, iruhande rwaho hari umusozi uhinzeho icyayi, hakaba hagiye hacamo utuyira tw'imihanda, aho imodoka ziyinyuramo zigiye gupakira icyayi.

Ahantu heza cyane himiturire bisa nkaho ari ku mudugudu. Hari inzu nyinshi cyane zubucucike hakaba hagiye hateyemo n'ibiti bigenda bizana amahumbezi kugira ngo abahatuye bahumeke umwuka mwiza.

Umusozi mwiza cyane ufite ibihuru, ibyatsi, insina, ibiti bya avoka, hakaba hari n'inzu z'abaturage, ni umusozi uciyeho amaterasi y'indinganire bitewe nuko uhanamye.

Umusozi utuweho n'amazu y'abaturage menshi cyane, ni umusozi wegereye igishanga ndetse bikaba bigaragara yuko ari umusozi uriho ibiti byinshi cyane ndetse n'insina zihateye.

Umurima munini cyane ndetse mugari uhinzemo igihingwa cyitwa matadamiya, kikaba ari igihingwa ngengabukungu, ndetse kikaba gitanga umusaruro ku bagihinga bikabafasha kwiteza imbere.

Umusozi mwiza cyane, ni umusozi uriho amashyamba ndetse hakaba hari n'ingo z'abaturage. Izo ngo zose inyinshi zisakaje amategura ndetse zihomesheje imicanga.

Hari ibintu Imana yaremye bitangaje cyane. Ku buryo iyo ubirebesheje amaso yawe utangara. Ni gute ubona mu mazi hagati harimo umusozi? Ese wakibaza uti uba ugarukira hehe ugana mu kuzimu!

Umugezi uri ahantu mu kabande ndetse hakaba hahinze ibintu bigiye bitandukanye, ni umuceri ariko ibihingwa by'aho bigaragara ko byarumbye ndetse izuba ryabyishe, hari imisozi myiza cyane iteganye.

Iyo ndebye ibyo waremye ndatangara nkumirwa wa Mana we, hari imisozi igenda igaragara iri hejuru y'amazi, ukibaza uti biba byaragenze bite? gusa abahanga na bo bakomeza kugenda batubeshya batubwira ko biba byaratewe n'icyo bita kugenda imisozi itenguka.

Umuhanda w'igitaka ni umuhanda uca ahantu mu giturage cy'icyaro ndetse ukaba ukikijwe n'ibihuru birimo urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye. Hakaba hakunze kuba higanjemo ibya kimeza cyangwa se ibya gakondo.

Umurima uri ahantu hegereye ishyamba, akaba ari umurima w'igishanga ndetse uko bigaragara ishyamba rihegereye ni iry'inzitane, rikaba rigizwe n'ibihuru ndetse n'ibiti by'imifatangwe.

Amaterasi y'indinganire yakemuye ibibazo bigiye bitandukanye, harimo nko kuba isuri yaratwaraga ubutaka ndetse ugasanga ifumbire yigiriye mu mibande no mu migezi, kuri ubu abantu bose batuye mu Rwanda barabyishimira.

Ubworozi bw'inkoko buteza imbere abantu benshi, ahubwo nibaza impamvu bamwe batajya babukora mugihe babuze icyo bakora kuko ntibisaba igishoro kinini kandi ubona umusaruro mu gihe gito.

Ingurube ziri mu kiraro, zikaba zirimo kugenda zihunahuna icyo kurya ndetse ikiraro cyazo kirera, habe n'akantu na kamwe bazisigiye, bigaragara ko bazifata nabi.

Ingurube yigaramiye mu kiraro cyayo, nta kantu na kamwe bayisigiye ko kurya ndetse irashonje yabanguye amatwi, irimo kumva ko hari umuntu wahinguka.

Umugabo wambaye bote z'umukara, akaba yambaye n'imyenda y'ubururu, arimo kugenda atembera mu kiraro cy'inkoko ndetse kikaba ari ikiraro cyubatswe ku buryo bwa kijyambere, buri nkoko ikaba ifite aho iterera igi ndetse ikaba ifite n'aho itorera.

Inkoko nyinshi cyane zororewe ahantu hamwe mu kiraro, zikaba ari inkoko ziganjemo izitera amagi, izo nkoko zikaba zizwiho gutanga umusaruro uhagije ndetse nyirazo akaba yishimira ibyo yagezeho.

Inka irimo kurisha ubwatsi bayicoceye imbere y'ikiraro cyayo. Ikiraro cyayo cyubakishije ibiti ndetse bikaba bigiye bicometse mu rupangu rwubakishije amatafari ya rukarakara, ruhomesheje ibyondo.

Inkoko nyinshi cyane zikiri ntoya, zikaba ari inkoko zorowe na koperative y'abantu bishyize hamwe, bakaba bavuga yuko zibafasha mu miryango yabo bijyanye na gahunda leta yashishikarije abantu yo kwiteza imbere.

Umuntu bigaragara yuko arimo kureba inka ze, izo nka ni iz'inzungu zirasa neza, zirimo kurya ubwatsi, ubwo bwatsi bukaba bwaratunganyijwe mu buryo bugezweho.

Ubworozi bw'inkwavu bushobora guteza imbere ababukora, gusa biterwa n'uburyo wabukozemo. iyo ufashe inkwavu zawe, ukazororera mu biraro byiza ndetse ukazana n'abaganga, bakajya bazitaho, ubona umusaruro uhagije.

Ihene nziza cyane zifite ibara ry'umweru, zikaba ari ihene z'ubworozi, ziri ahantu mu gihuru zirimo kurisha, uko bigaragara hari umushumba uziragiye.

Inkoko nziza cyane zo mu bwoko bwa kizungu, zikaba zizwi ku izina rya koroyira, ni inkoko zororewe ahantu mu kiraro zikaba zigaburirwa neza ndetse zikaba zitera amagi menshi.

Umukumbi w'inka nyinshi cyane zigiye zitandukanye gusa zikaba ziganjemo iz'inzungu cyangwa se injerisi nk'uko bamwe bazita, izi nka zikaba zizwiho gutanga umukamo uhagije ndetse zikaba ziba ziri mu byiciro bigiye bitandukanye.

Ihene nziza cyane zifite amabara agiye atandukanye, harimo iz'umukara, iz'ibitare ndetse n'izindi zifite amabara utabasha gusobanura, zikaba ziri ahantu mu isoko ryubakiye.

Inkoko nyinshi cyane ziri mu kiraro cyazo, zirimo kuha ndetse zikaba zifite ibiryo byo kurya, ni inkoko zikuze ubona ko zitera amagi buri munsi, zikaba ari izo mu bwoko bwa saso.

Ihene nyinshi cyane ziri ahantu mu isoko, buri yose iteye iherena ryanditseho nimero iyigaragaza, uko bigaragara zose zitegereje kujyanwa mu ibagiro.

Ikiraro cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho aho buri nka yose iba ifite aho kurira ndetse naho kunywera amazi, hakaba harimo inyana nziza y'iryamiye.

Inkoko z'umweru, zikaba ari inkoko ziri ahantu heza cyane mu kiraro cyazo ndetse mu kinyarwanda cyiza bakaba bacyita ikibuti. Izi nkoko zirimo isake ndetse n'inkokokazi.

Inka iri kurya, ikaba ari inka y'ikimasa ndetse ubona ko imaze kugera igihe cyo kuba yabagwa, uko bigaragara yagira inyama ziryoshye, iyi nka ikaba iri mu kiraro cyayo cyubatse neza.

Ingurube nyinshi cyane harimo izikiriri ntoya ndetse hakaba harimo n'izindi ziri mu rugero ,zose zifite ibara rimwe ziri mu kiraro kimwe zivuka kuri nyina imwe.

Inka nziza cyane ifite amahembe manini, maremare y'umubyimba munini ikaba ari inka izwi nk'inyambo, hari umushumba wayo akaba arimo kugenda ayishyira mu rupango.

Inka nziza cyane ubona ko itanga umukamo uhagije, ni inka ifite ikiraro cyubatse neza cyubakishijwe ibiti, uko bigaragara nyirayo yishimira ko abona umusaruro w'amata.

Inyubako zigiye zitandukanye zifashishwa n'aborozi borora inka mu buryo bwa kijyambere, ni inyubako ziba zifite ibiraro byubakishije ibyuma ndetse bikaba biba bifite n'ahantu babika ubwatsi bw'amatungo.

Njya nibaza impamvu abantu bakena, ese nk'ubu uretse iby'ubudive ukajya kwiyororera ingurube mu minsi mike ntiwa uteye imbere, nyamara ingurube zishobora gutuma wibagirwa ubutindi.

Ihene nziza cyane y'umweru, iri mu gisambu. Ikaba iraritse umurizo hejuru, ikaba isa nkaho yikanze ikintu. Iyi hene bikaba bigaragara ko imbere yayo hari izindi, ndetse hakaba hari n'abantu barimo kuzitegereza.

Inka nziza cyane z'Inyambo zifite amahembe meza zikaba ari inka z'umubyimba munini, hari abashinzwe kuzitaho bakaba bahamagaje abaganga b'amatungo kugira ngo bazikingire.

Ingurube ni itungo ryiza cyane nubwo bamwe bakunze kuvuga ko ryavumwe, ni itungo ushobora korora mu gihe gitoya cyane ugatangira gukirigita ifaranga.

Inka nziza cyane z'ingweba ziri mu kiraro, zikaba zifite ubwatsi mbere yazo aho zirira ndetse ubu ubwatsi bukaba bwarateguranywe ubuhanga kuko ubu urebye wabona bwumye ndetse bushobora kugira ngo ni icyarire cyazo.

Inka nziza cyane y'inzungu iziritse mu ibagiro, iryo bagiro risakajwe ibati ritukura ndetse hakaba harimo n'ibyuma bisize irangi ritukura, harimo umubazi wambaye bote z'umweru.

Inkoko ziri mu kibuti cyazo. Ni inkoko zo mu bwoko bwa kijyambere, zikaba zizwiho gutanga amagi mu buryo bwihuse kandi zigatera menshi.

Ubworozi bw'ingurube ni kimwe mu bintu bishobora guteza imbere uwagikoze, kuko ingurube zibwagura vuba kandi mu gihe gito, igitangaje zibwagura ibibwana byinshi cyane.

Ubworozi bushobora guteza imbere ababukora ariko biterwa n'icyo woroye, kuko nujya korora ihene njyewe nkorora inkoko ntabwo twabona umusaruro ungana, inkoko zitanga umusaruro mu gihe gito kandi buri munsi.

Umugabo yahisemo kuva mu kazi ke yakoraga kamuhemba amafaranga menshi kandi yabaga yiyicariye mu biro, akaba yarahisemo korora inka z'inzungu, akaba ubu ngubu afite inka zirenga mirongo itatu. Zimuteza imbere ndetse nta kintu na kimwe atabona.

Ingurube nziza cyane ibyibushye, ni ingurube iteye iherena ku gutwi ndetse ikaba ibwegetse, iri mu minsi myiza cyane yo kuzaha nyirayo umusaruro uhagije.

Inyana nziza cyane yiryamiye mu kiraro ikaba ari inyana ifite ibara ry'umukara n'umweru nyina nayo irimo kuyirigata aho ziri harasasiye n'amajangara ndetse n'ibindi byatsi.

Inka nziza cyane zifite amahembe maremare yigondoye, zikaba zishoreranye imwe inyuma y'indi ziri mu rupango, inyuma yazo hari abaganga b'amatungo bagiye batandukanye barimo kuzivura.

Ingurube nziza cyane imeze nka ya yindi Gasimba yaririmbye, rutihunza inzarwe y'isayi ibikoto by'ibikoko zamanutse ibishanga, zijya gushaka icyo zishyira mu bifu byazo.

Inkoko nyinshi cyane, ni inkoko ziri mu kibuti cyazo, zikaba ari inkoko zorowe n'umuturage wabigize umwuga, akaba yariteje imbere ndetse abona amafaranga yo kwiyitaho.

Imishwi myinshi cyane bigaragara ko itaturangwa n'inkoko, iyi mishwi ikaba yaratanzwe hifashishijwe imashini y'ikoranabuhanga, mu rwego rwo kuzamura umusaruro ukomoka ku nkoko.

Inka nziza cyane ni inka bigaragara yuko ziri ahantu hamwe, hakaba ari mu isoko ryazo, abashumba na bo bari kuziragira mu gihe ba shebuja bagiye kuvugana n'abakiriya.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ubuhinzi buteza imbere ababukora, cyane ko mu Rwanda hari inganda zitunganya ikawa kugira ngo ribone koherezwa ku isoko mpuzamahanga. Bityo rero akaba ariyo mpamvu abarihinga bagira amafaranga menshi.

Ibishyimbo, amashaza, soya, ubunyobwa ndetse n'ibindi, ni bimwe mu bihingwa bikunze kuboneka mu Gihugu cy'u Rwanda bidatumizwa hanze.

igihe cyose ugiye gutera imbuto, ni ngombwa ko ugura umurama ahantu heza habugenewe, hanyuma ukamenya niba umurama wawe nta kibazo ufite, ukawuhinga ndetse ukazasarura neza.

Umubyeyi arimo kwanika ibigori, ibyo bigori bikaba bikiri kuri bya nyina ndetse bikaba ari ibigori, bigaragara ko ari byiza cyane. Uyu na we akaba yiteguye kuzabigurisha ngo abone amafaranga ya mituweli.

Umugabo arahagaze ari kureba ibigori biri imbere ye bihunguye birunze kuri shitingi. Inyuma ye hari abana barimo gushungera ndetse uko bigaragara hakaba hari n'ibitiritiri byavuyeho ibigori.

Umuntu urimo kugenda akoresha imvaruganda, yayifashe ayishyira mu ntoki ze arimo kuyitegereza, ari kugira ngo arebe niba yujuje ubuziranenge.

Intoki ebyiri z'umuntu bigaragara ko ari kwerekana urubuto, urwo rubuto rukaba rwaratangiye kumera ndetse rukaba ari ubwoko rw'impeke.

Ibiganza bitanu byose bikaba bifite intete z'umuceri zumye, birimo kuwerekana ndetse uko bigaragara akaba ari koperative y'abahinzi bawuhinze, bamaze kuwuhura bagiye kuwugurisha.

Umubyeyi urimo guseka amwenyura, ufite agasatsi keza cyane, kakaba ari agasatsi k'umwimerere. Ari imbere yinzu ye, afite urutaro ruriho ibishyimbo bitukura. Iruhande hakaba hari amasahani ateretse ku gatara ndetse n'udusafuriya dufite imbyiro.

Umubyeyi uteze igitambaro cy'ubururu arimo gukoranya cyangwa se gusanza ibigori kugira ngo byume neza, uko bigaragara ni ibigori byanitse ndetse bikaba bitegereje kuma kugira ngo bibone gutunganywa neza.

Akabati kameze nk'ikiraro, kakaba karimo ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, gusa bikaba bigaragara nk'aho byashizemo nyirabyo yagiye kurangura ibindi.

Umuntu wambaye imyenda bigaragara ko ari umuvuzi w'amatungo, yambaye ga ndetse arimo kuvura inka, iyo nka na yo bigaragara ko yari ifite ikibazo gikomeye cyane.

Umuntu bigaragara ko ari umugore wambaye itaburiya y'umweru akaba yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru za supuresi arimo kwegeranya ubuvido abupanga neza bwose bukaba burimo amata.

Inka nziza cyane y'Inyambo iri mu rupango, hari abantu babiri bambaye amasarubeti yabugenewe, aho barimo kuyitera urushinge

Izi nyama ubona ni inyama ziryoha, ni inyama zibagwa ako kanya kugira ngo zitaza kugira ikibazo zigira uwaziguze, niyo mpamvu nanjye ngiye kuzikugurisha.

Inyubako nziza cyane iteretsemo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igicuba, hakabamo n'andi macupa ateretse bigaragara ko arimo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo.

Umuntu w'umunyeshuri arimo kureba mu cyuma cyitwa mayikorosikopi Kikaba cyifashishwa kureba uduce dutoya igihe barimo gupima ibintu bigiye bitandukanye byo mu butabire.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga w'amatungo, arimo kuvura afatanyije na bagenzi be aho barimo kuvura inka yarwaye, bayibaze bari kureba ikibazo ifite mu nyama zayo.

Inka nziza cyane zimeze nk'inyambo, ziri mu rupango ndetse hakaba hari abaganga b'amatungo bambaye amataburiya ari mu mabara y'umweru ndetse n'abandi bambaye amasarubeti y'ubururu, bakaba bagiye kuzitera inshinge.

Umuntu ufite ikibazo cy'uko imbwa ye yarwaye, yazanye veterineri none nawe ari kugenda ayikorakora, akaba yambaye ga ndetse n'agapfukamunwa kugira ngo atamwanduza indwara.

Inka nziza cyane y'inzungu, ikaba ifite ibara ry'umukara n'umweru. Ni inka yabyaye inyana bisa neza neza. Hamwe bavuga ngo inyana ni iya mweru. Iyo nka ikaba ifite icebe ririmo amata menshi.

Inka nziza cyane z'Inyambo ziteze amahembe, zikaba ziri mu rupango, imwe nyuma y'indi, hari abaveterineri babiri bambaye amataburiya y'umweru, bagiye kuzitera inshinge.

Abantu babiri barimo kwirebera muri telefone, bakaba bari kwiga uburyo umuntu ashobora kubaga inyamaswa arimo kuyivura, ibyo bikazabafasha kubaga n'abantu.

Abaganga b'amatungo ni bamwe mu bantu bazobereye cyane mu bijyanye no kuvura indwara z'amatungo atandukanye, nk'ingurube, ihene, inkoko ndetse n'isazi.

Ubuvuzi bw'amatungo bukwiye kwitabwaho bugahagurukirwa ndetse uworoye akajya yifashisha abaganga b'amatungo kugira ngo baze gukingira inka ze bazihe n'umuti.

Mu Rwanda haba inyamaswa zigiye zitandukanye, ndetse zifite n'ubuzima bwazo ziberamo. Akenshi uzasanga ari inyamaswa zikurura ba mukerarugendo baje kuzireba.

Mu Rwanda haboneka ubwoko bw'inyamaswa zigiye zitandukanye, muri izo twavugamo impala, impalage, ingwe ndetse n'urusamagwe. Izo zose zikurura ba mukerarugendo batari bake, baza kuzireba.

Inyamaswa nyinshi cyane zirimo zirasiganwa, zikaba zikanze abantu. Nubwo mubona inyamaswa z'inkazi buriya na zo zitinya abantu, iyo zibabonye ziraguruka.

Ishyamba rinini cyane riri ahantu mu kibaya, hakaba hari n'ibyatsi byumye ndetse bigaragara ko ari ahantu haba inyamaswa z'igasozi, uramutse uhageze zagushanyaguza.

Inyamaswa eshatu zose zisa. Ni injangwe zikaba zibereye mu gihuru zikaba ziteze amatwi, ziratuje cyane zitegereje ko hari akabeba kanyaruka ngo zigacakire.

Inyamaswa nyinshi cyane zikunze kugaragara muri parike zigiye zitandukanye zo mu Rwanda ni inyamaswa ubona ko zikunze gukurura ba mukerarugendo baza kuzireba maze bakadusigira amadovize.

Utunyamaswa turi ahantu hamwe bigaragara ko ari udupusi, ni utunyamaswa turimo gukirana ndetse twishimye, hakaba hari ikirere gisa neza twibereye mu byatsi.

Ibisiga bigera muri bine birimo kurebana, uko bigaragara bisa nk'ibiri kujya inama y'aho bigiye kujya konera abaturage, ibisiga buriya nabyo bijya biganira mu rurimi rwabyo.

Agasimba gafite umurizo munini cyane, kakaba ari agasimba kazwi nk'agasamunyiga, kakaba gakunze kwibera mu ishyamba.

Inyamaswa iteye ubwoba ifite amatwi ashinze, ifite ubwoya bwinshi cyane ikaba ikanuye amaso, iyo nta yindi ni injangwe y'ishyamba, ikaba iri ahantu mu gihuru.

Inyamaswa iteye ubwoba cyane ifite umurizo ndetse muremure, ikaba ari inyamaswa izwi ku izina ry'igisamagwe, ikaba yibera mu gasozi ndetse ngo ikunda kuba hafi y'ingwe.

Inyamaswa z'agasozi zikunda kwibumbira hamwe mu matsinda yazo bitewe n'ubwoko bwazo, aho ziba zigira ngo zirwaneho hatagira ngenzi zazo zizisagarira.

Mu rwanda haboneka urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, haba inyoni z'amoko menshi ziba zifite amabara meza atangaje, hari iziba zikunda kwibera mu mazi ndetse n'izindi ziba mu mashyamba.

Ihene y'umukara, ikaba ari ihene iri mu gisambu yonyine, irahindukiye isa nkiyikanze ikintu, uko bigaragara irabyibushye kandi ni ihene ibyara.

Inyamaswa nyinshi cyane, iyo zihuriye ahantu hamwe ziri ku muhigo, hari igihe zireka guhiga zikarwana. Ndetse rimwe na rimwe zikaba zanakwicana, gusa hari abakozi bashinzwe kuzitaho, bahita bazikiza.

Inyamanswa ebyiri zirimo gusenzanya, zikaba ari inyamaswa ziteye ubwoba ndetse ziryana cyane, zitendetse ku biti byumye bikaba biri mu gihuru.

Inyamaswa ebyiri nini cyane zikaba zizwi ku izina ry'imvubu, ni inyamaswa zigira amahane cyane ndetse zikaba zigira imbaraga, ni inyamaswa zishobora gukandagira ukikanga.

Injangwe ni inyamaswa ikunda kwibera mu gasozi ariko hakaba n'izindi ziza kubana n'abantu, hanyuma zikajya zigenda zica imbeba, izo mbeba zikaba ziba zonera abaturage.

Mu Rwanda hari iterambere rishingiye ku bukerarugendo ku buryo usanga abantu bava hirya no hino ku Isi, bakaza kureba inyamaswa zibera muri parike ndetse no mu misozi yo mu Rwanda.

Inzovu ni yo nyamaswa nini ku isi, inzovu ikaba ikunze kwibera mu ishyamba ry'inzitane ndetse ikaba idakunze kwiyenza nk'izindi nyamaswa, iyo nyamaswa ni inyamaswa ishobora gutuma ugira ubwoba ugatitira.